Icyapa cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi, hakaba hariho abantu babiri, umwana w'umuhungu ndetse n'umukobwa bakaba bari guseka bakaba bari bo na matara.

Company y'ubwishingizi iri kwamamaza, akaba ari ishusho y'umugabo mukuru wicaye ku ntebe. Hakaba hari n'amagambo, hakaba harimo numero wamwandikiraho kuri whatsapp, hakaba hari na numero wamuhampagaraho.

Igipapuro cyamamaza cy'ikigo cy'ubwishingizi, hakaba hariho inzu irigushya, ndetse hakaba hariho na numero wa wabahamagariraho, hakaba hariho n'urubuga rwawo wasura.

Ikigo cy'ubwishingizi kikaba kiri kwamamaza ubwishingizi bw'ingurube, hakaba hariho izina n'ikigo cy'ubwo bwishingizi ariryo Radiyati yacu hakaba harimo ingurube ebyiri ziri kugenda ndetse na nimero wabahampagaraho.

Icyapa cyamamaza kiriho abantu babiri umugabo n'umwana mutoya w'umuhungu, ku cyapa hakaba hariho amatara afasha kumurika ninjoro, hakaba hariho urwego, hakaba harimo n'ibiti ku ruhande.

Icyapa cyamamaza kiriho nimero wabahamagaraho hakaba hariho urwego hakaba hariho n'amatara.

Igipapuro cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi akaba ariwe serivisi batanga hakaba hariho ubishinzwe hakaba hariho nimero babahamagaraho ndetse n'aho babandikira kugira ngo bagufashe.

Icyapa cyo kwamamaza, cyamamaza ubwishingizi kigaragaza nimero wabahamagaraho, kikaba gifite urwego bakureraho, kikaba gikikijwe n'ibiti.

Icyapa cyamamariza kampanyi y'ubwishingizi, hakaba hariho umwana wambaye umupira w'umukara ndetse akaba ari guseka, hakaba hariho nimero ndetse hakaba handitseho n'amagambo atandukanye.

Iduka ricuruza imyenda, hakaba hari imanitse ndetse hakaba hari n'izinze ri mu tubati, hakaba harimo iy'abagore ndetse n'abagabo, harimo amakanzu ndetse n'imipira isanzwe.

Abagabo babiri bari kugenda bafite imisego mu ntoki ndetse hakaba hari umudamu ufite indobo mu ntoki, hakaba hari imyenda imanitse hanze ndetse n'imyenda imanitse mu nzu.

Ahantu hamanitse imyenda y'ubwoko bwose, ku gikuta hakaba hari amabara y'umweru ndetse n'umukara hakaba hari ururabyo rutetse ahantu.

Umuntu uri guseka akaba ari umukobwa akaba afite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ntoki ndetse kuruhande rwe hakaba hari ibicuruzwa biteretse ku meza kandi bikaba bitandukanye.

Iduka ricuruza imyenda hakaba hari imyenda izinze iri mu tubati, ndetse hakaba hari imyenda imanitse, hakaba harimo abantu bari kuzinga imyenda, irimo umuhungu ndetse n'umukobwa babiri.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'igikamyo, bakaba bafite ikipapuro mu ntoki, icyo gikayo kikaba cyanditseho amagambo ndetse hakaba hari n'ibiti ku ruhande.

Imodoka ihagaze ikaba ifunguye imiryango yayo yose, ikaba nta muntu uyirimo, hirya yayo hakaba hari imodoka y'umweru, ikaba ihagaze ahantu hari ibiti.

Abagabo babiri bafite igipapuro gikoze nk'urufunguzo bahagaze iruhande rw'imodoka. Imodoka iparitse hanze ikaba isa umweru, abagabo babiri barishimye bari guseka.

Abantu babiri b'abagabo bahagaze imbere y'imodoka, umwe akaba afite agakapu mu ntoki undi akaba afite igikapu mu ntoki, bakaba bari imodoka y'umweru ihagaze.

Abakobwa babiri bahagaze bambaye udupfukamunwa, bakaba bambaye amapantaro y'ubururu ndetse n'imipira y'umweru, bakaba bahagaze impande y'imodoka y'umukara iri kwaka.

Abantu bahagaze imbere y'igikamyo, akaba ari abagabo ndetse akaba ari imodoka itwara imizigo, akaba handitseho ijambo Akagera, ndetse hakaba hari n'izindi modoka ziparitse ku ruhande.

Imodoka iri kugurishwa, izina ryayo, igihe yakorewe ndetse n'igiciro cyayo, inyuma hakaba hari ibiti ndetse n'amazu.

Imodoka ziparitse zikaba zisa umukara, hakaba hari umuntu uri kugenda ndetse hakaba hari b'ibyapa biriho imodoka, ndetse hakaba hari n'umuntu wicaye inyuma y'imodoka.

Abantu bahagaze bari kwifotozaba, bakaba ari abagabo bahagaze ahantu hari ibipirizo by'umweru, umutuku ndetse n'umukara, bakaba bafite amabahasha mu ntokika asa umutuku ndetse n'umweru, bakaba bari impade y'imodoka y'umweru.

Imodoka y'umweru iparitse ndetse hakaba hari ibiti bikikije ahongaho hakaba hari n'inzu yubatse ku ruhande ndetse n'amatara ari yo ku muhanda ari ku ruhande.

Imodoka iparitse, ikaba iparitse mu muhanda wa kaburimbo, ndetse ku ruhande hakaba hateye ibiti ndetse n'indabyo z'ubwoko butandukanye, hakaba hari n'insina ndetse inyuma hakaba hari urugo rwubakishijwe ibiti, ndetse ruriho agatambaro k'icyatsi.

Umuntu uri kubara amafaranga, akaba afite akamashini kabara amafaranga ku ruhande, akaba afite n'andi mafaranga ateretse ku meza, harimo ibiceri by'ubwoko butandukanye ndetse hakaba hariho ishusho y'umuntu ku mafaranga.

Umuntu ufite amafaranga mu ntoki, akaba atari amanyarwanda ndetse akaba anatandukanye, akaba ashushanyijeho abantu, ndetse hakaba hari afunze ndetse n'adafunze.

Umuntu uri kubara amafaranga akoresheje imashini ibara amafaranga, hakaba hari andi mafaranga ateretse ku meza, hakaba hari ifoto y'umuntu.

Abantu bari guhana amafaranga, akaba atari amafaranga asa. Hakaba hari amafaranga ariho idarapo ry'igihugu cy'u Burundi ndetse hakaba hose hariho abantu bashushanyijeho.

Abantu bicaye bazengurutse ameza akaba ari abagabo, bakaba bishimye bari guseka, bakaba bafite ibikombe by'amata mu ntoki ndetse bakaba bafite n'ibyo kurya ku masahane y'abo.

Umugabo uhagaze hakaba hari intebe zikaba ari umweru ndetse n'ubururu, hakaba hari ahari igipapuro kiriho mukamira ndetse hakaba hari n'akabati gateretseho ibintuintu bitandukanye gasa ubururu.

Umuntu ufashe ibyo kurya mu ntoki ndetse hakaba hari inyobe zisa ubururu, hakaba hari n'izindi ntebe z'umweru ku meza hakaba hateretse indi sahani iriho ibyo kurya.

Ibicuruzwa bivanze ahantu mu kabati hakaba hari n'ibyapa byamamaza, hakaba n'icyapa kiri ku muryango kigaragaza ibyo abantu bakora.

Umuntu wambaye imyenda irimo numero bamuhamagaraho hakaba harimo n' uruganda akorera, ndetse ku ruhande rwe hakaba hateretse amagi akaba ari menshi.

Umuntu uri gukoropa amazi ari ku makaro akaba afite umukoropesho mu ntoki ndetse hanze hakaba haparitse moto iriho igicuba ndetse n'akabido, hakaba hari n'ibindi binyabiziga harimo n'amagare ndetse hakaba hari umuntu uri gutambuka.

Umuntu uhagaze akaba afite ikayi ndetse hakaba hari n’ibyo kurya biri mu ndobo ndetse n'intebe, hakaba hari amajerekani ari mu kabati, hakaba hari n'ikintu kinini gikoze mu cyuyuma.

Kwamamaza byerekana uko wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ukagura umuriro ugakoresha eyateri.

Abagabo babiri bahagaze, hakaba hari abandi bagabo bahagaze hirya, inyuma bafite terefone bari kuzirebamo, hakaba hari uwambaye umupira uriho idarapo y'Urwanda.

Uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga ukishyura ikigo gishinzwe ibyamazi hari amabwiriza yerekana uko wishyura ukoresheje iryo koranabuhanga, ndetse n'ababafashije kugira ngo bigerweho.

Uburyo bwa emutiyeni bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ndetse ukaba wanakohereza amafaranga; ikaba yaguhereza inguzanyo, ikaba yagufasha no kureba ayo usigaranyemo.

Umukobwa wambaye umupira w'ikigo k'itumanaho emutiyene akaba ari kumwe n'abagabo nabo bahagaze akaba afite icyo kunywa mu ntoki akaba ari byo arimo kubereka.

Uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga. Bakaba bari kwerekana uko wakishyura ukoresheje emutiyene cyangwa eyateri, cyangwa amabanki. Ibyo bikaba bikorerwa ku Irembo.

Uburyo bwo kwishyura ukanohereza amafaranga ukoresheje emutiye ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga ikaba yerekana ibintu byose ushobora gukora cyangwa ushaka kwishyura ukoresheje moma yawe.

Igipapuro cy'inyemezabwishyu gitangwa n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, kikaba kiriho umurenge wishyuriyemo ndetse n'amazina y'uwishyuye n'uwakiriye ayo mafaranga ndetse n'umubare bari kwishyura w'amafaranga.

Igipapuro kiriho ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, hakaba hariho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, akaba ari igipapuro cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, kikaba kiriho amazina n'umurenge y'uwishyuye.

Igipapuro cyo kwishyiriraho cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Hakaba hariho umurenge ndetse hakaba hariho n'izina ry'uwishyuye ndetse n'amafaranga yishyuye ndetse n'uwakiriye amafaranga.

Inyemezabwishyu y'umuntu wari watumije kuri Tarama Rwanda akaba yarishyuye akoresheje Emutiyeni, hakaba hariho itariki yishyuriyeho hakaba hari icyo yari yaguze.

Ikigaragara iyi ni ifoto yifashishwa mu kwamamaza ya Rwanda reveni otoriti yerekana ko ugomba kwishyura imisoro n'amahoro, bitarenze itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane.

Igipapuro kiriho banki ya kigali hakaba hariho izina, hakaba hariho na numero, hakaba hariho n'amatariki, hakaba hariho n'ibisobanuro by'amafaranga.

Igipapuro kigaragaza iyishyurwa kigaragaza uwishyuye, kikagaragaza akarere yishyuriyemo, kikagaragaza itariki yishyiriyeho, kikagaragaza amafaranga yishyuriye hamwe n'uwayakiriye.

Igipapuro cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyerekana ko umuntu yishyuye izina ry'uwishyuye ndetse n'akarere yishyuriyemo hakaba hari uwakiriye ayo mafaranga yishyuwe ndetse n'umukono, hakaba hari amafaranga yose hamwe y'igiteranyirizo yishyuye

Igipapuro cyatanzwe n'ikigo cy'umusoro n'amahoro kikaba cyerekana igihe umuntu agomba kutazarenza yishyura umusoro ubahari n'uzakira n'uzakira icyo gipapuro agashyiraho n'umukono.

Umuntu ufite akamashini kabara amafaranga ndetse n'undi ufite amafaranga mu ntoki akaba ari amafaranga y'ubwoko butandukanye ndetse hakaba hariho amagambo ndetse n'umubare w'amafaranga, hakaba hashushanyijeho umuntu.

Abantu babiri bicaye, hakaba hari uri kubara amafaranga ndetse ayo mafaranga akaba atari amanyarwanda, hakaba ku mafaranga hari ashushanyijeho abantu ndetse hakaba hariho n'imibare n'amagambo ndetse akaba hari afungiye hamwe.

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga, amafaranga akaba atari amanyarwanda ndetse akaba ari ay'ubwoko bubiri butandukanye, hakaba hariho ifoto y'umuntu ndetse hakaba hariho n'umubare w'amafaranga.

Amafaranga y'inoti, hakaba hariho umubare w'ijana, ndetse hakaba hariho ishusho y'umuntu w'umugabo, ndetse hakaba hariho n'ibiceri, harimo ibyanditseho rimwe, ndetse n'ibyanditseho gatanu.

Amafaranga y'ibiceri ndetse n'inoti akaba atar’amanyarwanda, ndetse akaba yanditseho imibare n'amagambo, akaba ateretse.

Abamama babiri umwe akaba ari kwakira undi bose bakaba bari guseka bakaba bafite ibipapuro ku meza ndetse hakaba hari ibyo ari kumuha mu ntoki bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Amafaranga y'amakongomani ariho abantu bicaye bameze nk'ababoshye, ahandi hariho umusozi, ndetse harikuvamo umwotsi. Akaba ar' ifaranga rimwe.

Amafaranga atari amanyarwanda akaba ariho umubare w'icumi, akaba ariho umuryango ndetse n'idarapo ry'igihugu.

Amafaranga ariho igihugu cya tanzania hakaba hariho inzovu ndetse hakaba harihoo n'umubare w'amafaranga, hakaba hari n'ibiceri biteretse hejuru y'inoti hakaba hari ibiceri by'ubwoko butandukanye.

Umuntu ufite amafaranga mu ntoki kaba ari aybwoko butandukanye hakaba hari ateretse ku meza akabazingiye hamwe ndetse hakaba hari ayo afite mu ntoki ndetse n'imashini ibara amafaranga.

Umuntu ufite amafaranga mu ntoki, hakaba hari andi ari hasi ndetse akaba ari amafaranga y'ubwoko butandukanye, akaba amafaranga afite mu ntoki hariho ishusho y'umuntu ndetse handitseho rimwe.

Inzu ikozwe mu birahure, mo imbere hakaba hari intebe zo kwicariramo, hakaba ku muryango hari icyapa kigaragaza icyo aho hantu bakora.

Iduka rishinzwe kuvunja amafaranga hakaba hari ibyapa by'ibyo bakora hakaba hari umuryango ndetse n'ikimenyetso kivuga ko nta muntu wemewe kwinjira atambaye masike.

Abantu bahagaze bakaba bari ahantu hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, hakaba hari abahetse ibikapu, hakaba hari n'umwe uri kugenda, ndetse hejuru hakaba hari amayekara agaragaza ibikorerwa ahongaho.

Inyubako hakaba harimo ibyapa bitatu byamamaza ndetse hakaba harimo nimero ndetse hakaba hariho n'amazina y'aho ngaho ibyo bakora.

Ndahabona igazeti ya leta nimero enye yo kuwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu, iyo gazete ikaba yandikishijwe amagambo y'umukara, ikaba yanditse mu ndimi eshatu arizo; ikinyarwanda, icyongereza ndetse n'igifaransa.

Abagabo babiri uri kwakira n'uri kwakirwa, urikwakirwa afite ibikapu bibikwamo imyenda, hari ameza y'umweru n'ubururu, inyuma y'aho hari igikuta cy'umutuku kiri kugaragaza amatangazo, hirya hari umugore ugeze hafi ku cyuma babikurizaho amafaranga.

Ameza ndetse n'intebe bikoze mu bibaho, hakaba hari ibindi bikoresho nabyo bikoze mu bibaho, hakaba hari amazu ku ruhande yubakishijwe amatafari ndetse hakaba hari n'ubusitani.

Amatara ari kumurika ari hasi andi ari abiri hakaba hari igikuta cy'umweru hakaba hari aho bazimiriza n'ahoho bacanira ayo matara akaba afashe ku kibaho.

Intebe iteretse ikaba ikoze mu giti hakaba hari n'ibindi bitandukanye bikoze mu giti, inyuma y'iyo ntebe, hakaba harimo ameza ndetse n'utubati.

Inzu irimo intebe, hakaba harimo n'ameza n'utumeza dutoya. Hakaba hari icyapa cyamamaza cyerekana ibyo aho hantu batanga. Hakaba hari, kuri icyo cyapa hakaba hariho n'izina ry'aho hantu ukuntu hitwa.

Intebe ziri hanze hakaba hari umuntu uhagaze ari guseka, hakaba hari utubati duteretse hanze ndetse n'imodoka y'ubururu ihagaze, hakaba hari ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda.

Intebe zikozwe mu biti, hakaba hari n'ameza yazo, ndetse akaba ari intebe enye, akaba ziturutse hanze, ndetse akaba hari n'inzu ziri iruhande rw'intebe.

Ubusitani burimo indabyo zitandukanye, ndetse n'ibiti hakaba ari inzu y'igorofa imiryango ikinguye, hakaba hari n'imitaka muri ubwo busitani.

Igikombe kirimo ikawa kikaba giteretse ku isahane bikaba biteretse ku meza, inyuma hakaba hari utubati ndetse n'ibindi bikoresho byo mu gikoni.

Icyumba kirimo uburiri, ku buriri hakaba hari imisego, ku ruhande hakaba hari amatara ateretse ku tumeza, hakaba hari n'intebe zo kwicaraho mu cyumba.

Ahantu hari ubusitani hakaba hari inzu zisizwe amabara ya orange hakaba hari indabyo nyinshi zitandukanye n'ibiti hakaba hari n'inzira iva hamwe ijya ahandi.

Amazi ateretse ku meza hakaba hari ibarahure ndetse hakaba hari n'amajyane hakaba hari n'ikawa biteretse ku meza byose.

Inzu y'igorofa ndetse hakaba hari imodoka ziparitse, impande yayo ndetse hakaba ari imodoka imwe ifunguye umuryango, hakaba hari ibiti biteye aho ngaho ndetse n'ubusitani.

Igipapuro cyerekana ibyo aho hantu batanga kikaba cyerekana n'izina ry'uwo muntu kikaba cyerekana ibiciro by'ibyo batanga.

Indabyo ziteretse kumeza umuryango ukaba ukinguye, ndetse hakaba hari intebe ku ruhande, indabo zikaba zifite amabara atandukanye ndetse imbere y'inzu hari ibiti bitandukanye.

Intebe zipanze neza ku murongo zikaba zisa umutuku, ndetse hakaba hari n'amarido, akaba asa umuhondo, ndetse n'imodoka ziparitse hanze y'indabyo ziri kumeza.

Ibiryo biteguye biri ku murongo, hakaba hari ibiryo by'ubwoko butandukanye, hakaba hari amasahani yo kwaruriraho, ndetse hakaba hari n'imbuto ziri ku ruhande, hakaba hari n'amasahane ariho ibyo kurisha.

Inzu y'igorofa hakaba hariho ibyapa byinshi bitandukanye bigiye byamamaza, hakabaho insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibindi bikoresho bigezweho, hakaba hari ahafunguye imiryango.

Abagore n'abagabo bahagaze mu nzu y'ikigo cy'ubwishingizi cya sonarwa bakaba bameze nkaho bategereje ko har' ibyo bakorerwa.

Abagabo babiri bicaye umwe akaba abafite icyo kunywa mu ntoki hakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo na mudasobwa, umwe akaba ariwe uri uri gukoresha mudasobwa.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Umugore ufite umusatsi muremure wambaye imyenda y'umutuku, vharimo n'umukara n'umweru n'ijipo ngufiya, ufite igikapu gikunzwe gukoreshwa n'abantu bakunze kujya mu mahanga akaba ahagaze hafi y'ibyapa bigiye bitandukanye ndetse n'inyuma yaho hakaba hari iminara y'amashanyarazi.

Inzu y'igorofa ikaba iriho ibyapa bitandukanye, hakaba hari imiryango imwe ikinguye ndetse n'indii idakinguye, hakaba hari icyapa kiriho nimero ndetse n'izina ry'umuntu.

Inzu ifite ibyapa byo kwamamaza ku madirishya hakaba hari amatafari, hasi hakaba hari ibirahure byinshi.

Icyapa cyamamaza umu kiriho amagambo ndetse hakaba hari umukobwa ndetse n'umugabo, umugabo akaba ufite ikaramu ndetse n'urupapuro ari kwandika hakaba hari imodoka iparitse.

Igipapuro cyamamaza cya banki ya Kigali akaba hariho umuntu uri guseka, akaba yambaye imyenda y’ubururu, akaba ari kwamamaza uburyo bwo kubona inguzanyo.

Umuntu uri guseka ufite isahani mu ntoki ndetse biba nigikombe akaba ahagaze hakaba inyuma ye hari undi muntu wicaye ufite ibyo arimo arakora kuri mudasobwa, akaba ari ukwamamaza kwa kampani ya ekwiti.

Kwamamaza gutanga inguzanyo kwa banke, hari umukobwa uri kuri telefone wambaye agapira k'umweru, hakaba hari na n'aho wabahamagara cyangwa imbuga nkoranyambaga wabandikiraho.

Umugabo uri guseka ufite amafaranga mu ntoki y'inoti z'bihumbi bitanu y'amanyarwanda ndetse akaba hari inoti nyinshi, akaba ari n'agapupe kari ku ruhande kambaye imyenda ifitemo ibara ry'ubururu ndetse hakaba harimo n'amafaranga.

Ahantu hagabanijwemo utwumba dutatu, aho bakira abantu hakaba hari na ekara irigucishaho ibyo kwamamaza, hakaba hari ibyuma by'ikoranabuhanga aribyo mudasobwa bifasha kwakira ababagana.

Banki iri kwamamaza ko itanga inguzanyo ya mirongo irindwi ku ijana, ukaba wakubaka inzu yawe, akaba ari, hariho umukobwa uri kubyamamaza unaseka.

Umumama uri gucuruza ibiribwa bitandukanye, hakaba hari ibiri mu mifuka ndetse hakaba hari n'ibiri mu ndobo, harimo imyumbati ndetse hakaba harimo n'imbuto zipanze.

Isoko ririmo umumama uri gucuruza imyenda wambaye move wayiteretse ku meza, hakaba n'undi mumama wambaye imyenda y'icyatsi, inyuma ye hari umutaka w'ubururu, hirya ye hari umutaka w'umutuku n'umuhondo.

Iduka ricuruza imboga, hakaba hari imboga z'ubwoko butandukanye ndetse akaba zigiye ziteretse mu bikarito ndetse ziteretse, hari n'iziteretse ku meza, hakaba harimo inyanya ndetse harimo n'ibibiringanya.

Iduka bacururizamo ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye hakaba hari abantu bahagaze hanze ndetse n'abahagaze, mu imbere mu iduka hakaba hari ibiribwa biteretse hasi ndetse akaba ari iby'ubwoko butandukanye.

Iduka ricuruza imyenda hakaba harimo iri hasi ndetse n'imanitse, hakaba hari ikiri mu mifuka ndetse hakaba hari abahagaze ndetse hakaba hari n'abamama bicaye bari kureba imyenda iri hasi.

Imbuto zitandukanye zipanze ku meza, akaba hari abamama bari kuzicuruza, hakaba harimo imineke, inanasi, imyembe ndetse na pome byose bikaba bipanze ahantu hamwe.

Isoko riri gucuruza ibintu bitandukanye, harimo imyenda ndetse n'ibikapu, hakaba hari ibikapu bimanitse ndetse n'ibiri ku muryango, hakaba hari ufite imyenda ndetse n'imyambaro yo mu imbere y'abakobwa iri ku meza ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku.

Abantu bari gucuruza mu isoko bakaba babiteretse ku meza hakaba ibiri mu maabase ndetse no mu ndobo akaba abenshi ari abadamu hakaba ndetse hari n'abicaye.

Abagabo babiri barimo baragenda n'umugore umwe uri imbere yabo, umugabo umwe yambaye ishati ya karokaro irimo amabara atandukanye ubururu, umukara, hasi ikabutura y'umukara mugenzi we akaba yambaye ipantaro y'ubururu na bage n'umupira w'umukara.

Abantu bahagaze, hakaba hari n'abari kugenda ndetse bari imbere y'amazu, hari n'abandi bicaye bahagaze imbere y'igororefa, hakaba hari umuntu uhagaze hejuru, hakaba hari abafite indobo z'ubururu.

Umugore uri kugenda hakaba hari abandi gucuruza kuruhande ndetse n'ikinyabiziga kiri kugenda hakaba hari umutakaga usa umutuku ndetse n'umugore uri kureba hepfo.

Abantu bahagaze ahantu ari benshi cyane hakaba hari amabara y'umutuku, hakaba hari imitaka y'umutuku ndetse hari n'amamoto aparitse, hakaba hari amazu y'amagorofa ndetse n'ibiti biteye ahongaho, hakaba hari amatara yo ku muhanda.

Umuntu uhagaze ategereje kwakirwa hakaba hari ekara iri kwamamaza, hakaba hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bakoresha bari kwakira ababagana.

Abantu bahagaze bakaba ari abagabo bakaba bahagaze imbere y'inzu ya emutiyene, hakaba hariho ibara ry'umuhondo ndetse hirya hakaba hari icyapa hakaba hari n'umutaka w'ubururu.

Ahantu bacuruza imyenda hakaba hari imyenda ihamanitse hakaba hari umuguzi wambaye imyenda ya emutiyene ndetse n'icyapacya emutiyene bimanitse.

Abantu bahaze ku kazu ka MTN, hakaba hafunguye amadirishya ndetse hakaba hari uwo umuntu uhagaze imbere ari kwakira abantu, hakaba hari abantu bahagaze hanze ndetse hakaba hari abagore ndetse n'abagabo.

Abantu bari gutega moto baka bambaye udupfukamunwa bose bakaba bari kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga.

Ikigo cy'itumanaho mu Rwanda, kikaba hariho uko wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ndetse hakaba ririho imibare ndetse n'amagambo, hakaba hari abambaye imipira isa umuhondo ndetse n'umugore wambaye ingofero isa umuhondo.

Abagabo babiri umwe uri kwakira, undi ari kwakirwa, bakaba bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, imbere hakaba hariho mudasobwa iribuze kwakirwamo akaba ariyo akoresha.

Abantu bahagaze imbere y'inzu ya emutiyeni hakaba hari icyapa cyamamaza aho ibyo batanga ahongaho hakaba hari ibyatsi inyuma y'ako kazu akaba n'ahatari ibyatsi.

Umuntu ahagaze wambaye umupira w'umuhondo akaba ahahagaze imbere ya moto, inyuma ye hakaba hari icyapa gisa umuhondo cyanditseho amagambo y'umukara, akaba ashushanyijeho imodoka ndetse n'umuntu.

Uburyo bwo kohereza amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga, hakaba hari amazina yugiye koherezwa amafaranga ndetse hakaba hariho na nimero ndetse n'amafaranga agiye koherezwa.

Umugabo uri guseka, akaba ari umuzungu ndetse akaba yambaye isaha ku kuboko, afite n'ikaramu mu mufuka w'ikoti yambaye ndetse hakaba inyuma ye hari intebe n'ameza, bikaba bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru.

Umuntu utwaye moto akaba yambaye imyenda yumutuku ndetse na moto ifitemo amabara yumutuku, akaba arimo kwamamaza ndetse hirya hakaba haribyatsi ndetse n'ibiti.

Guhaha ukoresheje ikoranabuhanga, hakaba hariho imineke, ndetse hakaba hariho n'ibirayi, hakaba hariho n'ibiciro bya byo, ndetse hakaba hariho n'izina ry'aho hantu, ndetse n'abantu bahagaze bari imbere y'ibicuruzwa, hakaba harimo n'imodoka.

Iduka ricuruza imyenda imbere aho binjirira hakaba hari icyapa kigaragaza uko aho ahantu hitwa, imbere hakaba hari aho imodoka ziparika hakaba hari imodoka ziparitse imbere y'iryo duka.

Moto zihagaze zose zikaba zifite ibikarito bimeze kimwe, hakaba hariho abantu kuri moto ndetse imbere hakaba hari amazu ndetse n'ibiti bitandukanye.

Icyo miliyoni ijana na mirongo ine z'amanyarwanda zakugurira muri Kigali akaba ari igikoni kigezweho ndetse gikoze neza cyubatse neza kikaba kirimo n'itara.

Umuntu uri kugenda akaba hari inzu imbere ye hakaba hari ubusitani ndetse n'igiti hakaba hari n'uruzitiro rw'urugo.

Inzu irimo ibikoresho byose bigezweho, hakaba ari umuntu uhagaze mu muryango ndetse hakaba hari imashini imesa, hakaba hari ndetse abakuraho sinyare.

Ibihumbi bibiri by'amadorari ku kwezi, icyo byaguha muri Kigali mu Rwanda. Umuntu uhagaze mu muryango, igikoni ndetse hakaba hari n'inzira izamuka ijya hejuru.

Icya miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda za kugurira muri kigali mu Rwanda, hakaba hari ubwiherero bugezweho, ndetse hakaba hari n'aho gukarabira ndetse n'amadirishya asize irangi ry'umukara.

Inzu irimo abantu babiri; umugabo n'umugore, umugabo akaba ari umuzungu, umugore akaba ari umwirabura, hakaba harimo intebe, hakaba harimo ameza, ndetse n'utubati.

Icyo amadolari igihumbi n'ijana yakugurira muri kigali mu Rwanda, hakaba harimo ifoto y'ubwiherero bugezweho, hakaba hari ndetse n' urukarabiro rw'intoki rugezweho, hakaba hari n'umuntu uhagaze mu kirahure.

Ifoto igaragaza icyo amadolari magana tanu mirongo itanu yagukorera mu bijyanye n'inzu muri kigali mu Rwanda, akaba ari inzu irimo intebe z'icyatsi harimo ameza, harimo na televiziyo, harimo n'agatanga umuyaga.

Ibihumbi magana atandatu icyo byagukorera ku kwezi, bya gukodeshereza inzu ifite ibyumba bibiri muri Kigali i Remera, ikaba ari igikoni ifite utubati ndetse hakaba harimo na kizimyamoto.

Icyo wabona uramutse ufite ibihumbi magana atatu by'amadolari mu Rwanda, inzu ifite idirishya ryayo rifunguye ndetse hakaba harimo n'amarido.

Inzu ikodeshwa i Kanombe Kigali, hakaba hirya hateye insina ndetse imiryango ukaba ufunguye ndetse hakaba hari n'ibintu biteretse hanze, ikaba isize irange ry'umweru harimo umukara ndetse n'umuhondo.

Inzu y'igorofa ndende, ikaba ifite jaride imbere yayo ndetse n'amasikariye aho winjirira, hakaba hari ibiti biteye ahongaho ku ruhande ndetse hakaba hari n'ibiti biteye iruhande rw'amadirishya.

Inzu ikodeshwa muri Kigali Kabeza, y'ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero butatu, ku mafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi, hakaba hari umuhanda ndetse hakaba hahagaze n'umuntu akaba ari igorofa.

Inzu ikodeshwa Kigali i Kanombe, ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, akaba ari ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi, ikaba ifunguye imiryango ndetse ifitemo n'amakaro.

Inzu ebyiri akaba ari amagorofa ndetse ikaba ifite amadirishya asize irangi ry'umukara ndetse ikaba ishyize irangi ry'ikigina ndetse hari n'ibipangu bitandukanya inzu ebyiri.

Inzu ifunguye amadirishya ndetse ikaba hariho amagambo, inzu iri gukodeshwa Kigali i Kanombe, ikaba ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero bubiri, ikaba ari ibihumbi maganatatu mirongo itanu ku kwezi.

Icyumba kimwe ndetse n'ubwogero bumwe ku mafaranga ibihumbi magana abiri ku kwezi muri kigali kacyiru akaba ari inzu ifitemo utubati ndetse ifite no hanze hameze neza.

Iduka ririmo abantu benshi bacuruza amasakoshi y'inkweto, inkweto zikaba zipanze ku kameza neza amasakoshi akaba amanyutse hejuru.

Abantu bahagaze abandi bakaba bicaye, bari imbere y'utumashini tufasha mu kwishyuza, hakaba hari utubati tupanzeho ibicuruzwa.

Abantu bahagaze bari mu isoko hakaba hari abari gucuruza ndetse n'abari guhaha, bakaba bari gucuruza imbuto zitandukanye harimo imineke ndetse hakaba harimo n'imyembe bakaba bambaye n'utupfukamunwa.

Iduka ririmo abantu bari guhaha hkaba hari bakaba hari abicaye bari kubandikira ndetse bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga aribyo mudasobwa, hakaba hari ibicuruzwa bimanitse mu tubati.

Umumama uri mu iduka hakaba hari abari kumwakira hakaba hari ibikarita bitandukanye bigiye birimo ibikoresho, hakaba hari umuntu uhagaze hirya ndetse hari ibintu by'umweru ndetse n'umutuku.

Abantu bari aho baharira, hakaba hari abarikariga ibicuruzwa hakaba bari no kugenda, ndetse n'abandi bicaye akari ibicuruzwa biri hasi.

Iduka ricuruza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa ,hakaba hari umuntu uhagaze aho hafi ,hakaba hari nundi uri gutambuka ,hakaba har' inzira hagati y'utubati.

Abantu bahagaze ahantu bacururiza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, bakaba hariho umugabo ndetse n'umugore ndetse hakaba hari n'aho bakonjeshereza ibyo kunywa.

Abantu bahagaze mu isoko hakaba harimo abakobwa ndetse n'abagabo, hakaba hari abahagaze bari kuganira ndetse hari umukobwa ufite igikapu mu ntoki cy'icyatsi ndetse akaba yambaye n'igitambaro mu mutwe.

Umuma wicaye ucuruza ibishyimbo, avoka, imineke, inanasi, ibinyomoro n'amacunga, afite agatambaro mu ijosi yambaye ikote ry'umukara ibishyimbo bikaba biri ku rutaro harajeho yorosheho ishysho y'ubururu.

Umuntu uri mu iduka, akaba ari guhaha, hakaba hari ibimanitse ku kababati, akaba ari utubati twinshi , ndetse hakaba hari n'undi muntu uri kugenda, hakaba hari ibintu bifite amabara y'umutuku n'umuhondo bimanitse.

Ubwishingizi mu kwivuza hakaba hariho nimero y'umunyamuryango ndetse n'icyiciro cy'ubudehe akaba ariho amazina ye ndetse n'itariki y'amavuko naho abarizwa bakaba hari indangamuntu iri ku ruhande.

Abantu babiri umwe n'umuganga undi ni uwaje kwivuza. Umuganga akaba ari kwandika, ari kwakira uwaje kwivuza, uwaje kwivuza nawe akaba ari gutanga ubwishingizi ukoresha mu kwivuza.

Abantu bari mu nzu bamwe akaba ari abaganga abandi akaba ari abaje kwivuza, ari abategereje hanze kandi abaganga bafite amakayi bari kwandika ndetse mbere yabo hari ibikoresho by'ubuvuzi.

Abantu harimo abahagaze ndetse n'abicaye bakaba bafite ubwishingizi mu kwivuza, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore hakaba hari n'abana.

Umumama wicaye akaba yambaye ishati idoze mu gitenge, ndetse akaba yambaye isaha akaba yambaye n'impeta, ndetse inyuma ye hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo.

Inzu y'ikigo nderabuzima cya Remera, hakaba hari umuntu uri gusohoka ava mu kigo nderabuzima, kababa hari n'abandi bicaye bategereje ku ntebe iri hanze. Hakaba hari igikoresho cy'isuku indobo iteretse hanze, n'umukoropesho.

Abantu bahagaze hakaba hari umuntu uhagaze imbere, hakaba hari abicaye ndetse bafite imitaka, bikaba hari irimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari n'abana ndetse hari n'ibintu byanditseho ejo heza.

Abamama bicaye bafite ubwishingizi mu kwivuza mu ntoki z'abo buriho amafoto y'abo ndetse n'amazina y'abo, bakaba bari kumwe n'abana babiri.

Umusaza n'umukecuru bambaye imyenda ya kinyarwanda akaba ari ikigo cy'ubwishingizi kiri kwamamaza ndetse hakaba hariho na numero ndetse n'urubuga wabasangaho, akaba handitseho amagambo avuga ngo uzakomeza kubaho neza no muri pansiyo.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye akaba hari umuntu uri kubarira abantu ndetse abibashyirira mu bikapu hakaba hari imashini yifashishwa mu kubara, ndetse hakaba hari n'ibicuruzwa biteretse ku meza, hakaba hari n'umuntu uri kwishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nkaho bari mu nama bicaye ku ntebe z'umweru yiganjemo abagore ndetse n'abagabo urabona ko ari ibintu byiza cyane bari mu nzu isize amabara y'icyatsi.

Abantu bari mu iduka ricuruza ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye hakaba hari babiri bambaye ibyenda gusa ndetse hakaba hari n'abandi bari guhaha hari n'abahagaze bari kuvugana ndetse hari n'ibicuruzwa biri mu tubati.

Iduka hakaba hari ibyapa byamamaza ndetse hakaba hari ibicuruzwa bivanze mu tubati bikaba ari ibinyobwa bikaba bigiye bitandukanye, ndetse hakaba hari n'ibiteretse hasi.

Ibiribwa ndetse n'ibinyobwa hakaba hari n'imbuto bikaba bipanze mu tubati bikaba biri mu moko atandukanye, ndetse hakaba hari n'umuntu uhagaze mu iduka.

Iduka ripanzemo ibicuruzwa bitandukanye hakaba harimo ibiribwa ndetse hakaba harimo n'ibyifashishwa mu guteka hakaba hari n'ibindi biteretse hasi ndetse hakaba harimo igikoresho kifashishwa gucunga umutekano w'aho hantu.

Iduka ricuruza, rikaba rifite utubati tubiri twose turiho ibikoresho by'isuku, imbere hakaba hari ibyapa bigaragaza izina ry'iryo duka risa icyatsi n'umutuku.

Abantu bane b'imbere, hakaba hari abarigusohoka ndetse n'uhagaze ku muryango, hakaba hari abambaye imyenda isa ndetse hakaba hari icyapa ku muryango cyanditseho simba.